Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, wambaye agapfukamunwa, ufite uturindantoki, uhetse ipombo, isa umuhondo, ari gutera umuti ibigori bikiri bito, impande y'ibyo bigori hari urubingo.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ufite amaboko y'umukara witeze igitambaro mu mutwe gisa umukara ,akikiye agatete karimo ikawa inyuma ye hateye insina.

Inka z'inyambo z'amahembe maremare zifite iherena ku gutwi, ziri kumwe n'umushumba wazo yazihurije hamwe kugira ngo abone uko azuhira aziha amazi.